Igihe cyose abantu bari mu nama by'umwihariko abayobozi, umuyobozi ubajijwe aba agomba gushyira umutima ku kibazo abajijwe akagisubizanya ubuhanga kugira ngo bitaza gutuma asuzugurwa cyangwa se akabura igisubizo cy'ikibazo abajijwe.

Iyo umuyobozi ari mu nama aba agomba kureba kure kugira ngo igitekerezo atanze kize kumvwa na buri wese kandi agishyigikire bitewe n'uko yumva gifite umurongo kandi gikundwe na bose igihe kimwe.

Abayobozi bashinzwe gukora mu bigo by'umutekano bakunda kugira inama nyinshi bitewe n'uko bakora akazi katoroshye, ikaba ariyo mpamvu bakunda guhabwa imodoka zibafasha mu ngendo kugira ngo gahunda zabo zikorwe vuba.

Abayobozi bose iyo bari mu nama bagirwa inama yo kutarangarira muri telefone zabo cyangwa mudasobwa ahubwo bagakurikirana inama uko iri kugenda ingingo ku ngingo ziyiyoboye kugira ngo barusheho kumenya kandi banatanga ibitekerezo byabo.

Abayobozi bose mu nama baba bafite umuyobozi mukuru ubarangaje imbere, ku buryo bose usanga ariwe bakurikira, bagatanga ibitekerezo bashingiye ku ngingo yabagaragarije kandi ntibarenge ku muyoboro yashyizeho ugomba kugenderwaho.

Rimwe na rimwe usanga bitewe n'imikorere y'igihugu, abayobozi bapangirwa amahugurwa ya buri kwezi cyangwa se amezi atatu kugira ngo barusheho gusobanukirwa bimwe mu bintu badasobanukiwe neza kandi bakenera guhereza abaturage umunsi ku munsi.

Abayobozi bose mu nama baba bashyize umutima ku kiganiro, kandi bakagerageza gushaka igisubizo cy'ikibazo kibaraje ishinga, aho usanga telefone zabo zose zifunze, kandi bacanye mudasobwa kugira ngo babone amakuru arushijeho.

Kirazira guhererekanya ifoto y'umuyobozi runaka, utabimusabiyera uburenganzira, kubera ko ntabwo aba yemerewe kwigaragaza igihe cyose abishakiye, cyangwa se ngo agaragazwe na buri umwe wese.

Abayobozi iyo bateraniye hamwe mu nama usanga bafite umuyobozi mukuru bahagarariye by'umwihariko ari nawe we uyoboye ikiganiro kubera ko aba ahagaze imbere yabo ababwira uretse ko nawe aba avuga ibyo yateguye.

Inzu zikorerwamo inama ziba zigomba kuba ari inzu ngari kugira ngo abarimo babashe gufata umuyaga bitewe n'uko bazimaramo umwanya munini bicaye bityo haba hatarimo umuyaga bikabatera gusinzira kandi inama itararangira.

Imipira myiza ndetse n'izindi mpuzankano zikunze guhabwa abayobozi, nabo bakunze kuyambara igihe cyose bagiye kwegera abaturage, kugira babereke icyo bashinzwe kandi banabagaragarize ko bari hamwe muri byose.

Iyo umuyobozi runaka, hari ikinyamakuru kiri kumubaza ibibazo aba agomba gusubiza adaciye ku ruhande, kubera ko aba yarabyumvikanyeho n'abandi bayobozi kandi afite inshingano zo gusubiza ibibazo byose abazwa.

Ntabwo bikunze kubaho kenshi ko inama ikorwa bityo ngo nisoza abayigezemo ngo batahe batifotoje kubera ko iyo foto ni kimwe mu byifashishwa hatangwa raporo kugira ngo hagaragare ubwitabire bw'abayigiyemo.

Igihe cyose usanga iyo hari imyiteguro yo kwakira abayobozi bakuru, ababishinzwe bagerageza kubaka inzu zabugenewe bazikingamo izuba kandi bakarushaho gutanga ibiganiro banakurikiranwa na buri wese uri aho ngaho.

Ubushakashatsi bugaragaza ko abagira ibiro cyangwa se abayobozi aribo bantu bakoresha mudasobwa cyane, bitewe n'uko mu biro byabo ziborohereza akazi kandi zikabafasha kubika amakuru ku buryo bworoshye bitabasabye kwandika bakoresheje ikaramu.

Bitewe n'uko abayobozi cyangwa abandi bantu bose bakorera mu biro bamara umwanya munini bicaye, bagirwa inama yo kunywa amazi kenshi ku munsi mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwabo, kubera ko iyo bidakozwe byangiza impyiko, ubuzima bwabo bukaba bugufi cyane.

Iyo inama itangiye usanga habanza kubaho kureba ubwitabire bw'abayijemo, kugira ngo hatagira abayobozi bamwe na bamwe bayisiba, kandi byari ngombwa ko baza, iyo basanze ari ngombwa bashingiye ku bwitabire, babatumaho by'umwihariko.

Abaturage usanga akenshi iyo basoje ibikorwa byabahurije hamwe nk'umuganda bakunze kugira inama bakayoborwa n'umuyobozi w'akagari cyangwa se w'umudugudu akabashimira ku gikorwa cyiza bamaze gukora akabereka ko ari n'icy'agaciro.

Abatanga serivisi zitandukanye zirebana n'ikiremwamuntu, usanga barushaho kwegera abaturage, aho usanga iyo hari inyigisho runaka babageneye, bakunda kubasanga aho batuye mu mudugudu, bakabigisha babasanze mu ngo, cyangwa se babakoranyirije hamwe.

Bitewe n'imikoranire hagati y'ibihugu bitandukanye usanga n'abanyamahanga rimwe na rimwe bagira uruhare muri serivisi zihabwa abaturage cyangwa se bakarema inama bafatanyije n'abanyarwanda bakarushaho kunogereza hamwe ibigomba kuyobora.

Igihe cyose abayobozi bari mu nama usanga barangwa no kumvikana kandi kuzuzanya, aho usanga buri umwe agerageza kubaha igitekerezo cya mugenzi we akumva neza kandi atamujoye, akagiha agaciro yewe akagikorera n'ubwunganizi.

Mu rwego rwo gusukura umujyi wa Kigali kugira ngo uhorane isuku, usanga abayobozi b'umujyi bose baragiye bashyiraho ingamba zigomba kubafasha no gukora ubukangurambaga, kugira ngo buri muntu wese yumve ko ari inshingano ze.

Ahantu hose hakorera inama cyangwa se hahurira abayobozi benshi, haba hagirwa inama yo kuba hari umuriro ndetse hari n'ihuzanzira, kugira ngo abari mu nama bakomeze bumvikane bifashishije ibikoresho bikoresha umuriro w'amashanyarazi kandi barusheho kubona ihuzanzira.

Abayobozi batandukanye iyo bari mu nama cyangwa se ahandi hantu bari buhurire n'abaturage, usanga bashishikarizwa kwambara imyambaro yabugenewe y'akazi kugira ngo abaturage barusheho kubatandukanya n'abandi bantu abo aribo bose, kubera ko baba bafite akazi bashinzwe.

Amazi akunze guhabwa abayobozi mu gihe cy'inama, usanga akurwa mu isanduka ya Leta ariko nanone ibikorwa baba bakora biba ari ibikorwa by'ingirakamaro ku buryo binjiriza Leta ikirenze ubwishyu bw'ayo mazi.

Iyo umuyobozi asoje inama haba wari witabiriye cyangwa se uwari uyiyoboye, aba agomba kuba afite aho yanditse ingingo z'ingenzi zakunze kugarukwaho noneho akazazitangariza abayoborwa be mu gihe runaka nawe yakoresheje indi nama.

Abenshi mu bayobozi iyo bavuye mu nama cyangwa se indi mirimo yose yabahuzaga n'abayobozi babakuriye, usanga bavuyeyo bafashe ingamba nshya, bitewe n'uko bahwituwe na bakuru babo, bakisubiraho muri serivisi batanga.

Iyo igikorwa gihuriza hamwe abayobozi bose cyabahuje, iyo kirangiye haba hagomba gufatwa ifoto y'urwibutso, igasigaranwa n'abaturage cyangwa se abandi bayobozi bo mu nzego zo hasi kugira ngo igihe cyose batekereje bajye biyibutsa ko basuwe n'umuyobozi.

Igihe cyose abayobozi bari mu nama baba bazinduwe n'ikibazo runaka, kandi batandukana ari uko bakiboneye umuti. Aho usanga banarushaho gukosorana hagati yabo buri umwe wese akabwirwa ibitagenda akabasha kwisubiraho kandi bitamugoye.

Inama zitangwa n'abayobozi by'umwihariko izo bagira abo bayobora, usanga zibafasha mu mibereho ya buri munsi, kandi zikabafasha kubaho bitwararitse kubera ko zibabera nk'umuyobozi bityo zikabafasha mu buzima bwa buri munsi.

Abaturage bakunze guhabwa umwanya, bakagira uruhare mu bibakorerwa kubera ko iyo habaye inama na bo batumizwaho, bakagira uruhare mu gufata imyanzuro igomba kuzagirira akamaro buri umwe kandi bakayoborwa n'imyanzuro bifatiye.

Usanga leta z'ibihugu zitandukanye zikunze gukorana n'ibihugu by'amahanga mu rwego rwo koroshya imikoranire, bagakunda gukora inama akenshi zivuga ku buryo bw'imibanire hagati yabo, bakagira ibyo bemeranyaho ko nta n'umwe uzabirengaho.

Buri muyobozi wese igihe bari mu nama aba agomba kwita ku kiri kuvugwaho agatanga igitekerezo cy'uko abyumva kandi akavuga n'uburyo ikibazo cyagaragajwe kigomba gukemuka mu maguru mashya bitarabangamira abaturage bose.

Igihe cyose hari ahantu hateraniye abayobozi inama isojwe bagafata ifoto, iyo foto isigara ku biro by'akagari cyangwa se iby'umurenge ikazajya ikoreshwa nk'urwibutso bityo abantu benshi bakarushaho kubona ko umuyobozi runaka yahageze akabasura.

Mu nama amazi yahawe umuyobozi igihe cyose ashize abafite uburenganzira bwo guhabwa andi, kubera ko mu ngengo y'imari y'inama n'ayo mazi baba barayashyizemo kandi ari uburenganzira bwa muntu gukoresha ibimugenewe.

Igihe cyose wishyura imisoro cyangwa se uri umucuruzi, uba utegetswe kuyimenyekanisha mbere y'itariki mirongo itatu n'imwe iyo utabikoze bikakugererana ku munsi wa nyuma, birakugora kubera ko usanga abantu benshi ari bwo bari kuyishyura.

Abayobozi benshi bagomba kuba bafite ubuhanga bwihariye mu gukoresha mudasobwa cyangwa se terefone ngendanwa, kugira ngo igihe cyose agiye gushaka amakuru yabitse mugihe runaka, bimworohere kandi ayabone bidatwaye umwanya.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro gifasha abantu benshi haba abashaka kwishyura imisoro mbere y'ukwezi cyangwa se ukwezi kurangiye, kubera ko usanga icyo gihora cyiteguye gufasha abakigana kandi kikabikora vuba.

Abantu benshi basobanukiwe ko gutunga terefone nini, zizwi nk'imwe mu nzira yo kubafasha kwihutisha kumenyekanisha imisoro kubera ko bayimenyekanisha batarinze kujya gutonda imirongo, ku biro bikuru by'akarere cyangwa se umurenge.

Iminara igira uruhare rukomeye mu koroshya itumanaho hagati y'abantu bamwe cyangwa se y'igice kimwe n'ikindi, kubera ko ihuzanzira riboneka byoroshye, abantu batarinze kujya kurishakisha ahandi kure, bigatuma bamenya amakuru ku buryo butagoye.

Iyo hari abakozi bakenewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro, batanga itangazo ku buryo rigera kuri buri muntu, yaba afite ubushake cyangwa se ubushobozi bwo kwifatanya na bo, akihuza na bo bagakorana mu guteza igihugu imbere.

Umuntu wese ukoresha urubuga rw'irembo afite amabwiriza amuyobora cyane cyane iyo atazi uburyo bwiza bwo kubikoresha haba hari imiyoboro yagiye ishyirwaho imwereka inzira zitandukanye zo kwinjiramo kubera ko atari ibintu bigoye cyane.

Urubuga rw'irembo rusigaye rufasha leta y'u Rwanda gutanga serivisi nziza, kubera ko usanga ibikorwa byinshi bijyanye no gusaba serivisi abantu babyikorera bifashishije urwo rubuga, bigakorwa hatabayeho gutonda imirongo.

Minisiteri ishinzwe abakozi ba leta ndetse n'umurimo, iyo ari umunsi mukuru wagenwe nayo, iyo tariki kiba ari ikiruhuko ku bantu bose bakorera leta, kandi n'abikorera rimwe na rimwe hari igihe bahabwa ikiruhuko, kubera ko na bo ari abakozi.

Hari ibyangombwa runaka abayobozi bashobora kugutuma ukabibona ubikwiye ku irembo bitagusabye kujya gutonda imirongo kubera ko serivisi zose zihabwa abaturage zashyizwe ku rubuga rw'irembo.

Leta y'u Rwanda ifite akazi katoroshye ko kwigisha abanyarwanda bakiri hasi mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikoranabuhanga, bakajijuka bakamenya kwisabira serivise zimwe na zimwe zitangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga n'izinyuzwa ku Irembo.

Ikigo cy'igihugu cy'ubwisungane mu Rwanda, usanga kigerageza gukusanya amafaranga, haba ku buryo bukoresha ikoranabuhanga cyangwa se ahakorewe mu ntoki, kugira ngo hatazagira umuntu ugira urwitwazo ko hari uburyo bwamubangamiye kwishyura.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe gusoresha ndetse no gukusanya ibyaturutse ku misoro, usanga iyo igihe cyo kurangiza kwishyura umusoro cyashyizweho kwishyura ku bushake, abantu bakunda kumenyeshwa ko icyo gihe cyarangiye kugira ngo bitabire kwishyura ku bwinshi.

Igihe cyose iyo igihe cyo kwishyura imisoro cyegereje, ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyura imisoro kigerageza kumenyesha abasora cyangwa se abafite indi mirimo yose ibyara inyungu ko bagomba kumenyekanisha imisoro kugira ngo hirindwe amande.

Abantu bose mu Rwanda bagenda basobanukirwa ko kumenya gukoresha mudasobwa ari iby'ingenzi, kubera ko usanga ari ho isi yose iri kugana kandi buri wese agomba kuba afite ubumenyi bwihariye kuri mudasobwa, kugira ngo arusheho kujyana n'iterambere.

Bumwe mu buryo bwiza busigaye butuma serivise zitangirwa kuri murandasi zihuta usanga ari uko abantu basobanukiwe neza akamaro k'ikoranabuhanga, niyo mpamvu usanga ibigo bya leta bitandukanye n'ibishinzwe imisoro ndetse n'ibindi binyuzeza serivise zabyo ku buryo bw'ikoranabuhanga.

Usanga abantu benshi batazi ikarita y'igihugu cy'u Rwanda kandi hari amafoto menshi agenda ayigaragaza ushobora kugenda ugakoresha ukiga akarere ku kandi ukamenya aho gaherereye.

Abahanga mu bijyanye no kwirinda gucibwa amande mu bijyanye n'imisoro usanga bigira inama ku giti cyabo yo kwishyura mbere y'uko umunsi ntarengwa ugera bityo bakirinda ayo mande azacibwa nabo nyuma.

Abakozi babugenewe usanga bakunze kuba ari abahanga mu bijyanye no gutunganya ibikoresho bishinzwe gutanga impuzanzira mu duce runaka, hakubiyemo iminara ndetse n'ibindi kubera ko usanga barabyigiye mu mashuri yabo yisumbuye.

Ikigo gishinzwe ibijyanye n'imisoro mu Rwanda, kigerageza kumenyesha abaturage ko hari uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga, ukamenyekanisha cyangwa se ukishyura imisoro, bitagusabye kujya ku Murenge cyangwa se ku kagari kubera iyo mpamvu.

Ibigo bitandukanye byashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga ushobora kubikoresha cyangwa se ukabona serivisi zabyo bitakugoye, aho ushobora gukoresha telefone yawe. Bakagenda barushaho guhugura buri muntu wese uburyo bwite bwo gukoresha izo mbuga zabo.

Imiyoboro y'amashanyarazi usanga idakunze gutwara umuriro mu ngo z'abantu gusa, ahubwo rimwe na rimwe inifashishwa mu gucanira imihanda, kugira ngo abawukoresha babe babona neza aho bava, n'aho bajya.

Mu Rwanda usanga abakoresha umuhanda haba abanyamaguru cyangwa se abandi bakoresha ibinyabiziga batinubira imitangirwe myiza ya serivise ikunda gutangwa n'urwego rwa Polisi rushinzwe umutekano wo mu muhanda kubera ko rubafasha kugenda kandi batekanye.

Abantu bose banyura hafi y'ahegereye imiyoboro y'amashanyarazi, bagirwa inama yo kwitwararika kugira ngo badakora kuri ibyo byuma, bikabakururira gukubitwa nayo kandi bikabatera gupfa bitari byitezwe.

Umuriro w'amashanyarazi ni kimwe mu bintu Leta y'u Rwanda yiyemeje gukwirakwiza ahantu hose hatuwe, kugira ngo abaturage barusheho koroherwa no kubona bimwe na bimwe mu byo bakeneye, kandi baniteze imbere bifashishije izo ngufu z'umuriro w'amashanyarazi.

Igihe cyose usanga abantu bagirwa inama yo kutegama ku biti bitwara amashanyarazi kugira ngo batabigabanyiriza umuvuduko cyangwa se bakabigabanyiriza ugukomera kwabyo bikabitera kugwa bigateza ikibazo mu baturage.

Ahantu hari imiyoboro migari y'amashanyarazi cyane ko usanga ari na ho umuriro ugaburira agace runaka uturuka, usanga hari abayobozi cyangwa se abarinzi bashinzwe kuhaba, kugira ngo bakumire abantu b'inyangabirama baza kwiba ibyo bikoresho.

Bitewe n'uko igiti cyangwa se inzu ndende ishobora kugira impanuka ikagwira imiyoboro y'amashanyarazi bigateza inkongi ahantu hatuwe cyane, usanga Leta y'u Rwanda igerageza gukangurira abantu kutegereza ibiti cyangwa se inyubako ndende imiyoboro y'amashanyarazi.

Imiyoboro migari y'umuriro w'amashanyarazi, igihe cyose inyujijwe mu butaka bw'umuntu, baba bagomba kumuha ingurane, kubera yuko ubwo butaka aba atazongera kubukoresha ukundi, bitewe n'icyo gikorwa kibyara inyungu za rubanda nyamwinshi kandi mu gihe kirekire.

Birabujijwe ko ibiti biteye impande z'umuhanda bishobora gusumba imiyoboro y'amashanyarazi kandi iyo biyisumbye ba nyirabyo babuzwa nabo kubitema kugira ngo bitazangwira iyo miyoboro ikangirika bigahombya leta.

Abantu batwara amagare kandi bagakoresha umuhanda, baba basabwa kugendera ku ruhande kugira ngo batabangamira imigendere y'ibinyabiziga binini nk'imodoka cyangwa se moto, bityo bigateza impanuka zihitana ubuzima bw'abantu.

Ibikorwa by'imiriro y'amashanyarazi, bigenda byegerezwa abaturage ku bwinshi, binyuze mu miyoboro migari ikunze kunyuzwa ahadatuwe cyane, kugira ngo itangiza ubuzima bwabo, kandi irusheho kubafasha kwiteza imbere bakora ibikorwa bitandukanye.

Imiyoboro yose itwara umuriro w'amashanyarazi, iba igomba kubungabungwa na buri muturage kubera ko usanga bifite inyungu rusange kandi zigirira akamaro rubanda nyamwinshi. Ni yo mpamvu ahantu hose biri umuntu aba agomba kubifata nk'ibye.

Umuriro w'amashanyarazi ukunze gukwirakwizwa ahantu hose, kugira ngo harusheho gutangwa umucyo mu bice bitandukanye by'igihugu, kandi abantu banawukoreshe mu bindi bikorwa bibabyarira inyungu nk'ubucuruzi, cyangwa se akandi kazi gatandukanye.

Abakozi bakora imirimo yo kubitsa cyangwa kubikura amafaranga ku muhanda, bagirwa inama yo kwitwararika, bakirinda ubujura, aho usanga basabwa kuba maso, kugira ngo bamenye neza niba amafaranga babikiye abaguzi bayahawe mu ntoki na bo.

Iyo hari ahantu hanyura imiyoboro y'amashanyarazi ariko itari imiyoboro migari, usanga leta igira inama abantu yo kudatera ibiti binini bihegereye kugira ngo igihe cyose byatemwe bitazagwira insinga bigatuma iyo miyoboro yangirika.

Abantu bose bafite imodoka, iyo bageze mu hantu hatuwe cyane cyangwa se hari abantu benshi, bagirwa inama yo kudahagarara cyangwa se ngo bagende mu kajagari, kugira ngo batabangamirana na bagenzi babo bigatuma buri umwe akererwa.

Iyo hari ahantu imiyoboro itwara amashanyarazi itameze neza, by'umwihariko imwe y'ibiti, usanga abaturage bagirwa inama yo kumenyesha abakozi babishinzwe igihe cyose havutsemo ikibazo, abantu babishinzwe bakaza kuyisana.

Ibikorwa bikunda kwegerezwa abaturage benshi, usanga harimo imiriro y'amashanyarazi ndetse n'imihanda myiza kubera ko ari imwe mu nzira ishobora kubafasha kwiteza imbere kandi bakarushaho no kugira imibereho myiza, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Iyo hari umuyoboro w'amashanyarazi unyura munsi cyangwa ruguru y'urugo rwawe, ugirwa inama yo kutubaka ngo uwusatire cyangwa se uwegekeho inkuta z'inzu, bitewe n'uko ushobora kuwugusha kandi bikagukururira ibibazo.

Ni itegeko ko inzu zose ziri munsi y'imiriro y'amashanyarazi ziba ari ngufi kugira ngo zidasatira iyo miyoboro bigakurura impanuka ishobora gutwara ubuzima bw'abantu ndetse n'ibindi bintu bihegereye bigafatwa n'inkongi y'umuriro.

Imbangukiragutabara ahantu hose igeze, iba igomba guhabwa inzira bitewe n'uko iba igiye cyangwa ivuye gutabara umurwayi kandi ziba zikora akazi katoroshye bityo zikaba zigomba kwemererwa gutambuka ahantu aho ariho hose.

Ahantu hose hari ibiro bikorerwamo n'umuyobozi, usanga hari ahabugenewe ho agomba kubika ibitabo, cyangwa se izindi nyandiko zimufasha kwiyibutsa, igihe cyose hariho ibyo atari gusobanukirwa neza, kubera ko ziba zibitse neza kandi zitekanye.

Ku bitaro hose hakunze gusangwa imodoka zizwi nk'ingobyi z'abarwayi, aho nta murwayi ujya ugitinda ku bitaro, igihe cyose akeneye kujya ku bitaro bikuru, kubera ko ziba ziboneka ku gihe kandi zikamugezayo bwangu.

Buri karere kose mu Rwanda kaba kagomba kugira ibitaro bikuru, aho usanga abantu bahabonera serivisi z'umwimerere kandi zirenze igihe cyose bafite uburwayi bwihariye bugomba kwitabwaho n'ibyo bitaro bikuru kubera ko ibitaro bito biba byarananiwe.

Igihe cyose hari indwara z'ibyorezo mu gihugu, hakaba hari abantu batonda imirongo bashaka serivisi runaka, baba bategetswe gutonda imirongo kandi bakubahiriza intera, by'umwihariko bakibuka gukaraba intoki kubera ko ari bumwe mu buryo bwabafasha kwirinda gukwirakwiza icyo cyorezo.

Abantu bose bakora imirimo, by'umwihariko ifite aho ihuriye na leta, usanga bafite imyambaro yabo yabugenewe bambara bari mu nshingano, kugira ngo umuyoborwa cyangwa se umuturage usanzwe, atabitiranya n'abandi bantu rusange, bityo abone aho aba izo serivisi.

Akekenshi na kenshi ku bitaro ibyo ari byo byose usanga hari abantu benshi bategereje kwitabwaho kandi baba bavuga ko barwaye baturutse mu mpande zitandukanye, niyo mpamvu usanga abaganga bagirwa inama yo gukorana umurava kugira ngo bakire abantu benshi.

Imbangukiragutabara zitangwa ku bufatanye na minisiteri y'ubuzima, ziba zigomba kubungwabungwa kuko ntabwo uba ari umutungo w'umuntu ku giti cye, kandi kirazira kuzikoresha mu nyungu zawe bwite, witwaje ko uri umuyobozi w'ibitaro.

Igihe cyose uri umuyobozi ugakora ikosa mu kazi kawe, ushyikirizwa inzego z'umutekano, zo zirakwitwarira zikakugeza aho zigomba kugushyira ubundi ugakurikiranwa n'amategeko y'u Rwanda.

Igihe cyose abantu basoje amashuri yabo by'umwihariko amashuri makuru hari amakanzu bambara yabugenewe kugira ngo bagaragare nk'abari mu muhango wo gusoza igikorwa cy'urugendo rwabo rwo kwiga bityo bagaragaze ko binjiye mu kindi gice cy'ubumenyi bwabo kugira ngo barusheho gukura mu mutwe.

Imfungwa n'abagororwa usanga bafite imodoka zabo bwite bashinzwe kugendamo kugira ngo barusheho kurindwa no gucungirwa umutekano hatagira uwaba watoroka bigatuma ababishinzwe bafata inshingano zo kumwirukansa.

Imfungwa n'abagororwa usanga bahabwa amahirwe yo gusohoka aho bafungiye igihe cyose bibaye ngombwa ko bimurwa cyangwa se bagiye mu bindi bikorwa, harimo nka siporo ariko nabyo ugasanga babikorera mu kigo bagororewemo kugira ngo badacika abashinzwe kubarinda.

Abayobozi igihe cyose usanga bafitanye imikoranire kandi n'ubucuti hagati yabo, kubera ko na mbere yo kuba abayobozi baba barabanje kuba ari abantu batuye hamwe, cyangwa se bagahuzwa n'inshingano bakora, bityo bigatuma biyumvanamo umwe kuri umwe.

Igazeti ya leta igaragaza amategeko agomba kugenga abaturage, ikunze koherezwa hirya no hino mu tugari tw'igihugu, kugira ngo barusheho kuyamenyesha abaturage, bayamenye, kandi bamenye uburenganzira bafite, banamenye bimwe mu byo bemerewe gukora.

Ntabwo bikunze kubaho ko abayobozi babateguza mbere yo kubafotora kubera ko usanga badafite umwanya wo kwifotoza, ahubwo ubafotorera igihe uboneye, ifoto yaba nziza ukayishyira hanze ariko ubanje kubasaba uburenganzira.

Abayobozi benshi by'umwihariko abacamanza, usanga bakunze kugaragara ahantu hatandukanye, bitewe nuko bakunze gufasha abaturage kwikemurira ibibazo cyangwa se bakabafasha babaha ubwunganizi mu bijyanye n'amategeko.

Amagororero menshi atandukanye usanga hari igice cyagenewe abagabo ndetse n'icyagenewe abagore, ugasanga baratandukanywa cyane kugira ngo hatazavaho hakabaho ibyaha bindi nyuma y'uko hari ibindi bakoze.

Imfungwa n'abagororwa mbere yo gufungwa barabanza bakabwirwa igihano bakatiwe nyuma y'urubanza rwaburanishijwe ku mugaragaro bityo bakamubwira ko agomba kwitwara neza akaguma muri gereza kugeza arangije igihano.

Mu myaka yashize byari ikibazo cy'ingutu kugeza ubutumwa ku bayoborwa, kubera ko wasangaga ijwi ry'abayobozi ari rito, ariko uko iterambere rigenda riza mu gihugu, hagenda hakoreshwa ibikoresho ndangururamajwi kugira ngo ubutumwa bwumvikane.

Amategeko agenga abaturage ni kimwe mu bintu bagomba kwigishwa kandi bagasobanurirwa kenshi, yewe n'abatazi gusoma bagasobanurirwa mu buryo bw'amagambo, kugira ngo bamenye aho batagomba kurenga, bamenye n'ibyo bemerewe, n'ibyo batemerewe.

Binyuze mu kuba ikoranabuhanga rikunze kwegerezwa abantu ku bwinshi usanga baragerageje gushyira amategeko agenga abaturage ku ikoranabuhanga, bityo umuntu wese wumva afite icyo ashaka kuyamenya aho ashobora kuyabona bimworoheye.

Umuntu wese uri gushinjwa ibyaha cyangwa se ubikekwaho usanga akenshi aburanishirizwa mu ruhame abantu bakaza gukurikirana iburanishwa rye kugira ngo bumve ku mugaragaro niba nta karengane kagiye mu rubanza rwe.

Igihe cyose, usanga igazeti ya leta ikunda gushyirwa ahagaragara mu mpera z'umwaka kubera ko usanga ari amategeko mashya aba yasohotse kugira ngo arusheho kuyobora abantu, barusheho na bo kubona inzira bwite ziboneye zo gukoramo ibyo bakora.

Igihe cyose ugiye kunyura ahantu hari umuhanda wangiritse, ugirwa inama yo kwitwararika kugira ngo bitangize ikinyabiziga cyawe, bityo ugasabwa kukigumisha ahantu hamwe kubwo umutekano wawe cyangwa se uw'ikinyabiziga cyawe.

Igihe cyose utwaye imodoka ukagera ahantu hari icyapa cyangwa se umupaka, uba ugomba guhagarara ugategereza ababishinzwe by'umwihariko abacunga umutekano ahongaho ku kigo runaka bakaza bakagukingurira bakaguheriza uburenganzira bwo kwinjiramo.

Igihe cyose ahantu hatewe n'inkongi, ni byiza ko witabaza urwego rwa Polisi rubishinzwe, kubera ko iyo ni imwe muri serivisi batangira ubuntu, kandi bakarushaho kurokora ubuzima bwa benshi muri icyo gihe.

Usanga ibigo by'imari byinshi bitandukanye bikorera mu Rwanda, haba ibya Leta cyangwa se iby'abikorera ku giti cyabo, bikunze kwakira abantu benshi batandukanye kandi mu gihe gito, kubera ko mu Rwanda abantu babigana aba ari benshi.

Polisi y'igihugu igira imodoka zitandukanye zifashishwa mu gucunga umutekano w'ibintu n'abantu, aho usanga zikwirakwizwa mu muhanda kugira ngo harusheho kunoza umutekano rusange w'abaturage, kandi ikagera muri buri gace.

Ibyuma bishinzwe kwifashishwa hazimywa inkongi y'umuriro bitewe n'uko bikwirakwizwa na leta mu bigo bitandukanye, usanga biba bigirwa inama yo gushyirwa hafi, kandi igihe cyose bibaye ngombwa ko bikoreshwa bigakoreshwa hagatangwa ubutabazi.

Leta y'u Rwanda igerageza gukwirakwiza bimwe mu bikoresho byifashishwa hazimywa inkongi y'umuriro igihe cyose yaba iteye mu nzu runaka ariko ikabitanga ishingiye ku bigo bikomeye cyangwa se ingano ya serivisi n'abantu bagana aho hantu.

Ubukangurambaga bugenda bukorwa by'umwihariko mu bigo byinshi by'amashuri, bakigisha abana uburyo bashobora kwifashisha bazimya gaze cyangwa se indi nkongi yose yabatera mu gihe cyose bategereje ubufasha buturuka hejuru.

Ahantu hose hari kubera ibikorwa byo kwamamaza, usanga hari umuyobozi mukuru ushinzwe kuyobora icyo gikorwa, kubera ko ni we uba uhagarariye abandi igihe cyose bategereje umukandida wiyamamaza, bagatuma abantu bose bakomeza gutegereza ubutarambirwa.

Usanga abaturage benshi bagaragaza akanyamuneza iyo bagiye kwamamaza cyangwa se ibindi bikorwa bifitanye isano nabyo kubera ko aribo hantu bahurira n'abayobozi babo kenshi, bakabagezaho ibyifuzo by'ibibazo bafite.

Usanga igihugu gifite imitwe igiye itandukanye, aho igira uruhare mu gufata ibyemezo igihe cyose ibyemezo yafashe biba biboneye kandi bitabogamiye ku ruhande urwo ari rwo rwose, nabyo bikifashishwa mu bijyanye no kugena uko igihugu kiyoborwa.

Ahantu hose perezida wa Repubulika ageze, usanga abaturage bishimye kubera ko usanga abenshi babifata nk'inzozi kumubona amaso ku maso, niyo mpamvu usanga bagiye baturuka imihanda itandukanye kugira ngo bakunde baze kumureba kandi bamwereka urukundo.

Inama zitandukanye usanga akenshi na kenshi ziba zirimo abanyamahanga, mu rwego rw'imikoranire hagati y'ibihugu birenze kimwe kandi ugasanga nabo bahabwa ijambo, bakagira ibitekerezo bageza ku banyarwanda kugira ngo barusheho gusangira uburyo bw'imiyoborere.

Ahantu hose ku biro by'akarere cyangwa se by'umurenge, usanga hari ubusitani bukunze kwifotorezwamo n'abayobozi, cyangwa se abandi bashyitsi baje mu nama, igihe cyose bibaye ngombwa bidasabye ko bajya gukodesha aho kwifotoreza.

Igihe cyose iyo inama cyangwa se ikindi gikorwa cyahurije abantu mu buryo bwa rusange kirangiye, abitabiriye baba bagomba gufata umwanya, bagahagarara neza, uwari uyoboye ikiganiro cyangwa se inama akabafotora kugira ngo abone uko atanga raporo.

Abayobozi benshi by'umwihariko aba Minisitiri, usanga iyo bahawe inshingano nshya bagomba kurahira bakiyemeza ibintu bitandukanye bazageza kuri leta y'u Rwanda, cyangwa se ku bayoborwa bose bashinzwe.

Ahantu hose perezida wa repubulika agerageje gusohokera, usanga yerekwa urukundo rukomeye n'abayoborwa cyangwa se abaturage muri rusange, bakamwereka ko bamwishimiye, na we akabereka ko ari we muyobozi wabo.

Igihe cyose hari kuba igikorwa kijyanye no kwamamaza usanga umutekano wakajijwe mu mpande zombi kugira ngo icyo gikorwa gihuze hamwe abantu benshi hatagira umuntu ushobora kugihutaza bityo bikangiza ubuzima bw'abantu benshi.

Inyubako zikunze gukorerwamo inama zahuje abayobozi batandukanye bo mu nzego runaka, usanga zikunze kuba ari inyubako zatakajweho ingengo y'imari iri hejuru kugira ngo hakunde hatunganywe ubwiza bwazo kandi usange zikoreshwa neza.

Abakozi b'amatora bakunda guhabwa imyambaro ibaranga, igihe cyose bagiye kuyobora abantu mu gutora kandi bagahabwa n'ingofero, kugira ngo abantu ndetse n'abatazi gusoma babimenye ko aribo bashinzwe kubayobora muri icyo gikorwa.

Ifoto z'abayobozi kiba ari ikintu cyubashywe niyo mpamvu usanga abantu benshi bakunda kuzishyira mu matelefone yazo kugira ngo igihe cyose bacanye amatelefone bajye bazibona, bityo bamenye ko bakizifite bazicungire n'umutekano.

Bamwe mu bantu bubashywe cyane igihugu gifite, ni abayobozi. Bitewe nuko aribo batanga serivisi nziza ku baturage, bigatuma igihugu gitera imbere ku buryo bwihuse. Ni muri urwo rwego usanga dutegetswe kubaha ibyo batubwira.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda usanga abantu bose barasobanukiwe ko igihe cyose yiyamamaza aba ari umukandida w'ishyaka rya FPR, kandi rikaba ari ishyaka rikunzwe n'abantu benshi kubera ko rimaze kugeza igihugu kuri byinshi.

Kugira ngo hagabanye guhagarara mu kajagari kw'imodoka igihe cyose ziri aho zigomba kuba zihagaze hari imirongo yabugenewe aho usanga buri modoka ifite umwanya runaka igomba guhagararamo itawurenze kugira ngo itabangamira izindi.

Iyo ugerageje kubaza bamwe mu bantu bakoresha imodoka zitwara abagenzi ku buryo bwa rusange, usanga bavuga ko ari imwe mu nzira ibafasha kwihuta bakava ahantu hamwe bakagera ahandi kandi ku kiguzi gito.

Mu rwego rwo kunoza uburyo bw'imigenderanire hagati mu muhanda usanga imodoka cyangwa se moto zifite aho zigomba guhagarara habugenewe kandi zikahagarara ku buntu bitandukanye n'uko wahagararaho wiboneye hose.

Abatwara abagenzi hifashishijwe moto, usanga bagirwa inama yo kwambara ingofero zibarinda impanuka, cyangwa se ukwangirika k'umutwe igihe cyose baguye, ari nayo mpamvu usanga iyo utambaye iyo ngofero uri umushoferi, baguhana.

Abantu benshi basobanukiwe ko gukoresha moto z'imizigo bishobora kubafasha kwikura mu bukene kubera ko bafasha abantu gutwara ibyo baguze babivana ahantu hamwe babijyana aho batuye kandi bakarushaho kubahereza amafaranga abashyigikira mu nzira y'iterambere.

Kugira ngo hanozwe uburyo bw'ubwikorezi cyangwa se bw'imigenderanire hagati y'abantu n'abandi, usanga Leta igerageza kwagura imihanda, kandi ikagerageza gushyiraho amatara ku buryo iyo mihanda yose iba ibona.

Imodoka zitwara amazi usanga zikunze kwifashishwa cyane kubera ko zikunze gukoreshwa mu mirimo nk'ubwubatsi bw'imihanda cyangwa se inyubako ndende, zikenewe gukoreshwa hateganyijwe amazi menshi muri izo nyubako.

Abatwara ibinyabiziga by'umwihariko ibitwara imizigo bagirwa inama yo kudapakira imizigo isumbya ubushobozi imodoka zabo kubera ko bishobora guteza impanuka kandi igahitana abantu benshi itaretse no gutera igihombo kuri nyir'umuzigo.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, usanga ibigo bitandukanye by'imari biziyamamarizaho bikagira amasezerano bikorana na ba nyirazo kugira ngo birushe kumenywa na benshi, kubera ko ziba ziyamamariza ku modoka.

Akenshi usanga urujya n'uruza mu muhanda ari kimwe mu bintu gikwiye kubahirizwa kubera ko ibinyabiziga bito biba bigomba kubahwa n'ibinyabiziga binini bigahana inzira, kugirango gahunda za buri umwe zikomeze hatagira uhomba cyagwa se ngo ibye byangirike.

Iyo abaturage cyangwa se abagenzi basanzwe bari kugenda mu modoka zisanzwe zitwara abagenzi bacibwa amafaranga make kandi bakagezwaho bagiye mu mahoro kubera ko usanga izo modoka zariyeyemeje kubikora nk'akazi aho usanga zitanga iyo serivisi gusa.

Abantu bazwiho gutwara imizigo bifashishije ingorofani cyangwa se ibindi bikoresho bagirwa inama yo kwitwararika mu muhanda kubera ko usanga akenshi imodoka zikunze kubagonga kubera ko baba bambuka cyangwa se bagakoresha umuhanda nabi.

Igihe cyose abashinzwe gupakira imodoka bifashishije amaboko bari kugerageza kubikora, baba bagomba kuyipakira ariko bareba impande n'impande z'umuhanda niba nta kindi kinyabiziga giturutseyo gishobora kubahutaza, kuko byose biba bishoboka.

Umuhanda ukoreshwa n'abantu batandukanye. Hari abagenda bacunga bimwe mu bikoresho bibafasha gutwara imizigo mu ntoki nk'ingorofani, abandi bari kugenda ku modoka, abandi bagakoresha moto ariko ibyo ntibituma badasangira umuhanda kandi bakabikora badahutazanyije hagati yabo.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zaje nk'ikibazo cyo gukemura ikibazo cy'ubwikorezi cyangwa se ubuhahirane hagati y'abantu kubera ko zitwara abantu benshi zikabikora igihe gito kandi ku mafaranga make cyane ku giciro cya buri wese.

Abatwara abagenzi mu buryo bwa rusange by'umwihariko abifashisha moto bagirwa inama yo kwitondera kunyuranaho cyangwa se kwiseseka hagati y'ibindi binyabiziga kubera ko bikunze guteza impanuka zitwara ubuzima bw'abantu umunsi ku munsi.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwaraje, aho usanga imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, zikunze gukoresha amakarita yabigenewe nko kwishyura amafaranga y'urugendo kandi ugacibwa amafaranga angana nuko wagenze.

Mu myaka yashize wasangaga imodoka zitwaye imizigo zikunda gusahurwa n'amwe mu mabandi yagendaga yitwaza ijoro ariko ubungubu usanga polisi y'u Rwanda ndetse n'abanyerondo barabihagurukiye bakarwanya amabandi imodoka zikagera iyo zijya zitonze.

Urwego rwa polisi rushinzwe umutekano wo mu muhanda rukunze kugira inama abatwara ibinyabiziga ko bagomba kwitwararika igihe cyose batwaye ibinyabiziga kandi bakirinda kunywa ibisindisha kubera ko bishobora guhungabanya umutekano wabo.

Abagenzi bose, basobanukiwe ko hari ahantu bagomba kujya gushakira imodoka zitwara abagenzi mu buryo rusange, niyo mpamvu, batajya bakunda guhagarara aho babonye bose, kubera ko byakugora kuyibona, kubera ko usanga yaje yuzuye.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, usanga igihe cyose zibatwaye zifite inshingano zo kubacungira umutekano kugeza iyo urugendo rurangiye. Niyo mpamvu abantu benshi bakunda kuzitega, bakaba bizeye ko bagera iyo bagiye amahoro.

Akenshi na kenshi usanga umutekano w'abanyamaguru uba ubarirwa ku ntoki mu bihugu by'abanyamahanga ariko mu Rwanda usanga abanyamaguru bubashywe kubera ko imodoka zigenda ziba zigomba kubahiriza imigendere y'abo zikagenda zitababangamiye.

Iyo hari ahantu hahagaze imodoka zaba iz'abikorera ku giti cyabo cyangwa se izikora mu buryo bwa rusange, kirazira kuhatera amabuye kubera ko ushobora kwangizariza ibikoresho bitari ibyawe, bigatuma ba nyirabyo bahomba kandi bitari bikwiye.

Abantu batwara ibinyabiziga haba muburyo bwa rusange cyangwa se muburyo bw'abantu ku giti cya bo, usanga basobanukiwe neza imikoreshereze y'umuhanda kubera ko leta ibarafashe umwanya ikabibasobanurira aho usanga n'igihe cyose bagiye guhagarara bibwiriza guhagarara kuruhande rw'umuhanda.

Usanga akenshi iyo imodoka iri kugenda mu muhanda ari imwe, biyitera kugenda yisanzuye igakoresha ibyerekezo byombi, usanga bitandukanye kandi n'uko zagenda mu muhanda ari nyinshi, kubera ko zigenda zibyigana bigatuma zitihuta.

Imodoka zaba izitwara imizigo cyangwa se izitwara abantu, usanga buri mwaka hasuzumwa ubuziranenge bwazo kugira ngo hakumirwe impanuka kandi abazigendamo babe batekanye.

Abaturarwanda ntabwo bakigorwa no gukora ingendo ziva mu gace kamwe cyangwa zijya mu kandi, bitewe nuko hari imodoka zabyiyemeje zibikora nk'akazi kabo ka buri munsi, aho usanga zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi, kandi zikabikora ku giciro kiri hasi.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo rusange ni zimwe mu modoka zizwiho kugira umutekano cyane kubera ko ziba zitwaye ubuzima bw'abantu benshi ari nabyo bituma polisi y'igihugu cy'u Rwanda ikunda kuzibandaho kugira ngo irebe ko abarimo batekanye.

Mu muhanda haba hagomba kubahirizwa urujya n'uruza kugira ngo umutekano w'abantu n'ibintu urusheho kujya mbere, niyo mpamvu usanga imodoka, hari umuvuduko wagenwe zigomba kugenderaho, yaba ari itwara imizigo cyangwa se itwara abantu mu buryo rusange.

Abatwara abagenzi ku buryo bwa rusange kuri moto, bagerageza kugirwa inama yo kwitwararika, kugira ngo batabangamira abo batwaye, kandi bagahungabanya n'umutekano w'ibindi binyabiziga, kubera ko igihe cyose batitwararitse ibyo bishobora kubabaho.

Akarere cyangwa se umujyi runaka, ugerageza gushyiraho ahantu hakunda kuruhukirwa n'abantu benshi, igihe cyose bafite icyo kunywa, cyangwa se hari ibindi bikorwa runaka bategereje bibafitiye inyungu, muri ako kanya.

Rimwe na rimwe usanga leta yaragerageje kwegereza ibikorwa by'iterambere nk'ibibuga byigirwaho imodoka cyangwa se ibikorerwaho imyidagaduro kugira ngo abaturage barusheho kunogerwa kandi bishimire serivisi nziza bahabwa.

Igihe cyose leta yatoranyije ahantu hamwe nk'ikibuga ikahashyiraho ngo abantu bajye baharuhukira cyangwa bahakorera inama cyangwa se indi mirimo yose ifitiye inyungu igihugu, kirazira ko wahubaka inzu cyangwa se ngo uhakorere imirimo y'ubuhinzi utabiherewe uburenganzira.

Mu kibuga cy'umupira kubera ko usanga ari ahantu leta yahaye abaturage ngo bajye bakinira ibijyanye n'imyidagaduro, usanga kizira ko wagira ibindi bikorwa wubakamo bigufitiye inyungu ku giti cyawe, kubera ko kiba cyarashyiriweho inyungu rusange z'abaturage.

Ahantu hose hakomye biba bibujijwe gushyiramo amatungo kugira ngo atangiriza ibidukikije cyangwa se akabangamira ibyatsi birimo kandi hari ikintu leta iba ibiteganyiriza mu myaka iri imbere.

Ibigo by'imyidagaduro bitandukanye cyangwa se ibibuga, usanga bikunze gukoreshwa n'abantu benshi, by'umwihariko abakunze gukora siporo zitandukanye kubera ko usanga ariyo mpamvu nyamukuru leta iba yarabishyizeho.

Mu rwego rwo kwimakaza uburenganzira bwa muntu usanga ku bigo by'amashuri bitandukanye baragiye bahashyira ibibuga byinshi by'imyidagaduro kugira ngo abanyeshuri cyangwa se abandi bantu barusheho gukora siporo kandi babone no kwidagadura.

Ahenshi mu bigo bitandukanye bikorerwamo imikino y'imyidagaduro, usanga hari inzu ziba zisakaye kugira ngo abayobozi bakomeye bajye babasha kwikingamo akazuba; igihe cyose hari igikorwa runaka cyabereye aho ngaho, kuko baba ari abantu bubashywe.

Umunyamaguru cyangwa se undi muntu wese utwaye ikinyabiziga, aba agomba kubahiriza icyapa kimuyobora kimubwira ko agiye kugera ahambukira abanyamaguru kugira ngo yitonde atagira uwo ahutaza mu gihe barimo bambuka.

Igihe cyose uri umuntu utwaye ikinyabiziga uba ugomba kuba ufite ubumenyi bwihariye ku muhanda ndetse no kubyapa bigomba kukuyobora, kubera ko ari kimwe mu bintu uba ugomba kubaha, kugira ngo urusheho kumenya neza aho ujya kandi ugereye amahoro.

Kubera ko mu Rwanda imikorere cyangwa se imiyoborere y'umuhanda inoze, usanga iyo hari igikorwa runaka kiri kubera mu muhanda, bashyiraho icyapa kimenyesha abawukoresha kugira ngo barusheho kwitwararika bitabakururira amakuba.

Abakoresha umuhanda iyo bagiye kwegera ahari ibikoresho mfata amashusho bishobora kubafotora, usanga hari ibyapa bibagaragariza ko ibyo bikoresho bihari, kugira ngo barusheho kwitwararika bataza kugwa muri ayo makuba.

Iyo utwaye ikinyabiziga, imodoka cg se moto, ukagera ahantu hambukira abanyamaguru cyangwa se ukabona icyapa kikuburira ko imbere hari aho abanyamaguru bagomba kwambukira, uba usabwa kwitwararika kugira ngo udasangamo abanyantegenke cyangwa se abana, ukabahungabanya...

Iyo ugeze mu muhanda ugasanga hari icyapa runaka utari gusobanukirwa uba ugomba gusobanuza bagenzi bawe ukumva ko hari ubumenyi bwihariye bakurushaho kugira ngo nawe ugende ubisobanukirwa urusheho kumenya byinshi.

Polisi y'igihugu ishishikariza buri umwe wese kugira ubumenyi bwihariye ku mategeko y'umuhanda, kubera ko iyo urebye neza usanga nta muntu udakoresha umuhanda, bityo buri wese abaye afiteho ubumenyi bishobora korohera buri umwe mu mikoreshereze ye y'umuhanda.

Abakoresha umuhanda mu buryo bwombi haba abakoresha n'amaguru cyangwag se abawukoresha bifashishije ibinyabiziga, bagirwa inama yo kubahiriza ibimenyetso byose bikoreshwa mu muhanda kugirango batabangamira urujya n'uruza.

Ahantu hose hari ibyapa bibuza mu muhanda biba biburira abagenzi ndetse n'abatwaye ibinyabiziga ko bagomba kwitwararika, yewe bikanabamenyesha aho batagomba kurenga mu rwego rwo kubahiriza amategeko y'umuhanda, bityo rero umuntu wese utwa ikinyabiziga aba asaba kuba afite ubumenyi bwihariye ku kinyabiziga.

Igihe cyose uri gukoresha umuhanda ukabona icyapa kikugaragariza ko hari abantu bari gukora imirimo y'ubwubatsi mu muhanda, uba ugomba kwitwararika cyangwa se ugahindura icyerekezo, kugira ngo utagera imbere ukabura inzira.

Igihe cyose ubonye icyapa ku muhanda ukabona ntugisobanukiwe, nk'umuntu utwaye ikinyabiziga ku buryo bw'umwuga, uba ugomba kubaza bagenzi bawe ukumva ko bakurusha ubumenyi bwite ku bijyanye n'imikoreshereze y'ibyapa, kubera ko bishobora gutuma ushyira abo utwaye mu kaga.

Iyo uri kugenda mu muhanda utwaye imodoka wubahiriza ibyapa neza bikugabanyiriza ibyago byo kuba wacibwa ibihano, biturutse ku kuba utari uzi gukoresha ibyapa, kubera ko uba wagiye nabi mu muhanda ukabangamira bagenzi bawe.

Iyo uri kurangira umuntu umubwira aho ugeze, bigusaba kwifashisha ibyapa biba bishinze ku muhanda, cyane ko aba handitseho icyerekezo ugezemo, iyo atahaza uramubwira, ukamusomera ukamubwira neza aho ugeze akahagusanga.

Mu mirimo itandukanye y'ubuhinzi cyangwa se itunganya ibikoresho byose byo mu nganda, usanga leta igerageza gushyiramo nkunganirare kugira ngo ifashe abakora iyo mirimo ikabashakira imashini kubera ko baba bakora ibikorwa bifasha mu iterambere.

Igihe cyose ubyutse mu gitondo cya kare, by'umwihariko mu masaha y'akazi, ntabwo wabura kubona imodoka z'abantu batandukanye, zihagaze imbere y'inyubako runaka, zitegereje gusaba serivisi, kugira ngo banyirazo, babone kuzihagurutsa bagende.

Igihe cyose usanga ahantu hatuwe by'umwihariko n'abantu benshi, hari ibikorwa bitandukanye nk'amashanyarazi cyangwa se imihanda, kubera ko haba hatahwa n'abantu barenze umwe, leta igahitamo kubegereza ibikorwaremezo bizajya bibafasha.

Abanyamagare n'abandi bagenzi bakoresha umuhanda akenshi usanga bashishikarizwa kwitwararika ntibagende begera cyangwa ngo batwarire amagare inyuma y'imodoka kubera ko ishobora kugira ikibazo nk'icyo gucika feri igasubira inyuma bigateza impanuka.

Igihe cyose umuhanda cyangwa se indi nzira nyabagendwa ihuza abanyamaguru ndetse n'abatwaye ibinyabiziga itarimo ibimenyetso bigaragaza aho buri umwe agomba kunyura, baba bagomba koroherana kugira ngo batabangamira urujya n'uruza cyangwa bagateza impanuka.

Usanga ahenshi mu midugudu leta yarakoze uko ishoboye ngo ikwirakwiza imihanda, kugira ngo abantu bajye bagenda neza bisanzuye batabangamirwa n'ibyondo, cyangwa se imihanda yasenyutse ngo bamwe batinye no kuhataha bitewe n'uko hadatekanye.

Abatwara moto by'umwihariko abakoresha umuhanda wo mu mujyi wa Kigali, bagirwa inama yo kwirinda gukorera mu kajagari kubera ko bihombya abantu benshi bakagirwa inama zo kwirinda ayo makosa kugira ngo na bo badacibwa ibihano.

Uko iminsi igenda isimburanwa, leta y'u Rwanda igenda igerageza gukwirakwiza ibikorwa remezo nk'imihanda, ahantu hose hatuwe cyangwa se ahadatuwe, kugira ngo ubuhahirane hagati y'igice kimwe n'ikindi, burusheho kwiyongera kandi iterambere ryihuta.

Imbere y'inyubako zimwe na zimwe zitandukanye ukunze gusanga hari ubusitani bwifashishwa hakururwa umwuka mwiza, bigatuma abazikoreramo bagira ubuzima bwiza bitewe n'uko bahumeka umwuka uyunguruye.

Inyubako zitandukanye zikorerwamo na minisiteri zimwe na zimwe, zigirwa inama yo kuba ziri ahantu habonwa n'abantu benshi, kubera ko usanga serivise batanga zikenerwa n'abo bantu, kandi iyo bari kure yabo batababona.

Ibikorwa by'ubucuruzi ni bimwe mu bikorwa bikunda gushyigikirwa na leta kubera ko bitanga umusoro leta ikawifashisha yubaka ibindi bikorwa remezo bifasha abaturage kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abanyarwanda bose muri rusange, bagirwa inama yo kubungabunga ibidukikije, bitewe n'uko ari yo soko y'ubuzima burambye, kuko hari inyamaswa nyinshi zororerwa muri bimwe mu bidukikije, kandi zifitiye igihugu akamaro, bityo bakaba basabwa kubibungabunga.

Umuntu wese usobanukiwe imikorere kandi n'imikoreshereze y'ibyapa mu muhanda, usanga azirikana ko aho ageze bakamubwira ko ari ngombwa guhagarara agomba guhagarara. Yagera ahamuha uburenganzira bwo gutambuka agakomeza urugendo.

Usanga mu mujyi wa Kigali buri muntu wese afite ahantu hamwitiriwe bitewe na serivisi atanga cyangwa se ibikorwa akora, rimwe na rimwe ugasanga abantu benshi bahifashisha nko kurangirana hagati yabo, aho usanga umwe amubwira ngo unsange kwa kanaka.

Inzu zose zikorerwamo na leta by'umwihariko izitangirwamo serivisi zihabwa abaturage ku bwinshi, ziba zigomba kuba zifite uburyo bworohereza abantu kuzigeramo kubera ko abantu bose ntabwo ari abanyantege nyinshi ku buryo bashobora kuzigeramo byoroshye.

Ahakorera ibigo bya leta usanga hari isuku irengeje, kubera ko haba hinjirwa n'abayobozi benshi batandukanye kandi babifite mu nshingano, aho usanga bibutsa ababishinzwe gukora isuku buri munsi kandi bakayikorera ku gihe.

Ahantu hose mu mujyi wa kigali usanga hafite isuku kubera ko abahaturiye baba ari bamwe mu bafatanyabikorwa ba leta mu rwego rwo gukwirakwiza isuku aho usanga bafite abakozi babishinzwe kandi bishyurwa n'abo bantu bakarushaho gusukura imihanda cyangwa se aho hantu hose.

Igihe cyose usanga ahatangirwa serivisi hakunze kuba hari imihanda itsindagiye kugira ngo abahanyura barindwe ivumbi cyangwa se ikindi kintu cyose gishobora kubatera umwanda, niyo mpamvu usanga abantu bishimira ko leta ibaha serivisi nziza.

Umutekano mu Rwanda usanga ari ikintu cyitaweho cyane kubera ko usanga abantu bagenda mu muhanda batuje nta kibazo bafite kandi nta nticyo bikanga, kubera ko haba hari abantu bashinzwe kubacungira umutekano by'umwihariko abapolisi.

Imodoka zose zigenda mu muhanda, ziba zigomba kuba zifite ibyangombwa bizemerera kugendamo, kugira ngo abantu bose babashe kuba bakwishyura imisoro binyuze mu kuba nta muntu wakora ibikorwa birimo amanyanga, kubera ko usanga na porisi y'igihugu ibigenzura.

Abantu bose bakoresha umuhanda bagirwa inama yo kudahutaza cyangwa se ngo bangirize imikindo nka bumwe mu busitani butaka umuhanda, kubera ko iyo ufashwe wabyangirije, ufatwa nk'uwangirije ibikorwa remezo, kandi bifitiye igihugu akamaro.

Abanyamaguru bagirwa inama yo kwambuka umuhanda bihuta ariko batiruka kugirango badahutazanya hagati yabo, cyangwa se bakinjira mu kindi cyerekezo cy'umuhanda batabashije kwitonda ngo barebe niba nta kindi kinyabiziga gishaka guhita bityo kitabangiriza.

Ibyapa biyobora abagenzi bikunze gusangwa henshi muri Kigali kubera ko leta yahisemo kujya ibikoresha nk'imwe mu nzira yo gufasha abantu kumenya ibyerekezo by'aho bajya batagombereye kubaza uwo ariwe wese icyerekezo barimo.

Mu muhanda abantu bose baba basabwa kuzuzanya, kubera ko umwe akenera undi kugira ngo umutekano urusheho kubahirizwa, ni yo mpamvu utitaye ku kuba utwaye imodoka nini cyangwa ugomba kubaha mugenzi wawe.

Abantu bakwiye kuzirikana ko iyo modoka iri kunyura mu kiraro bidakomba guteza icyago, kubera ko ibyo biraro biba byarubatswe ku buryo bwizewe, kandi bikubakwa bikomejwe, kugira ngo igihe cyose binyuzweho n'imodoka hejuru bitazabangamira inyuze hasi.

Igihe cyose uri gukoresha umuhanda ukabona hari ibinyabiziga bikuri imbere ariko bihagaze, ugirwa inama yo kugabanya umuvuduko ukagenda gake, ukabanza ukamenya inkomyi iri gutuma badatambuka ngo begere imbere kugira ngo utavaho ukagira uwo ugonga.

Iyo bumaze kwira mu mihanda amatara atangira gucanwa, kubera ko yashyiriweho kumurikira abagenzi kandi umuriro uyacana ukaba wishyurwa na Leta, nk'imwe muri serivisi nziza zigomba guhabwa abaturage bayo.

Mu muhanda ni hamwe mu hantu hakunze gusangwa isuku nyinshi kubera ko hari abakozi bashinzwe kuhasukura kandi bakagenda bagerageza gukuramo umwanda uwo ariwo wose, watawemo n'abantu bahanyuze cyangwa se imodoka.

Uburyo abakoresha umuhanda bagendamo ubona ari uburyo bushimishije cyane, kubera ko bubahana hagati yabo, uwatanze undi mu cyerekezo akamureka akabanza agatambuka nawe akabona gukurikiraho bityo bigatuma boroherana.

Igihe cyose utwaye ikinyabiziga uri gukoresha umuhanda uba ugomba kwitwararika kandi ukubahiriza amategeko akugenga, ukitwara nk'umuntu ufite uburenganzira n'ubushobozi bwo gutwara icyo kinyabiziga kugira ngo wirinde ibihano.

Imodoka zitwara imizigo, iyo zitwaye imizigo izisumbya ubushobozi, usanga bikunze guteza impanuka kubera ko zibura feri, bityo ugasanga zirangiriza abantu ndetse n'ibindi binyabiziga bito muri iyo mpanuka.

Abatwara abagenzi ku buryo bwa rusange bikoresheje moto, usanga bakunze kwitwararika igihe bageze murongo y'umweru yagenewe abanyamaguru, bakabanza bagacunga neza iburyo n'ibumoso niba nta munyamaguru ushaka kwambuka, bakamuha umwanya.

Abanyarwanda bagirwa inama yo kubungabunga ibikorwa remezo n'imihanda, aho usanga barushaho gushishikarizwa kuyigirira isuku kandi bakayirinda icyo ari cyo cyose cyayangiriza bitewe n'uko hari ingengo y'imari ya leta nyinshi iba yarahatikiriye.

Mu muhanda haba hagomba kwitabwaho kugira ngo hataza kwangirika kubera ko hakoreshwa n'abantu benshi, ni yo mpamvu usanga imodoka zidafite amapine ahubwo zifite iminyururu zitemererwa kunyuramo kubera ko zishobora kuwangiriza.

Mu muhanda mu rwego rwo kubahiriza umutekano w'abawukoresha, usanga hari amatara yabugenewe ashinzwe kuburira abatwaye ibinyabiziga ko bagomba guhaguruka, bagahereza akanya abanyamaguru na bo, bakitonda kugirango ngo barusheho gukoresha umuhanda batekanye.

Ibimenyetso biyobora abakoresha umuhanda, biba bigomba kwitabwaho kandi bikubahirizwa, kubera ko iyo ubirenzeho wisanga wakoze impanuka kandi n'ubuzima bwawe bukahangirikira muri icyo gihe uyikoze; ni yo mpamvu uba ugomba kubyubaha.

abantu bose batwara ibinyabiziga bagirwa inama yo kubahiriza amategeko y'umuhanda bakirinda kurenga ku mirongo batagenewe kugira ngo badacibwa ibihano n'urwego rubishinzwe bikabatera kugwa mu gihombo bitewe n'uko baciwe ayo mafaranga.

Abagenzi bagirwa inama yo kuburira ababatwara mu buryo bwa rusange, haba hakoreshejwe moto cyangwa imodoka, kugabanya umuvuduko igihe cyose bari mu rugendo, kubera yuko ari imwe mu mpamvu zitera impanuka, kandi zigahitana ubuzima bwa benshi.

Igihe cyose umuhanda utuje uba ugomba kwitwararika ukareba niba kuwugendamo byemewe kubera ko atari wowe wenyine uba wemerewe, ariko iyo usanze hari ikibazo cyabaye uba ugomba gusubira inyuma nk'abandi.

Bitewe n'uko abakoresha umuhanda baba bafite ubumenyi bwihariye by'umwihariko abatwara ibinyabiziga, usanga bakunze kubahiriza ibyapa bibayobora, bakirinda kwinjira mu muhanda uko babonye; bityo impanuka zikagabanyuka.

Imihanda iba igomba kuba isukuye kugira ngo abanyamahanga batabona ko abene gihugu batajya bakora isuku mu mihanda bitewe n'uko igihugu kiba kigendwa n'abantu batandukanye niyo mpamvu usanga leta yarafashe icyemezo cyo guhereza abantu akazi ko kuyikoramo isuku.

Umuhanda mu gihugu usanga ufite isuku yo ku rwego rwo hejuru, kubera ko hari abakozi bwite kabuhariwe bashinzwe kuwusukura. Cyane cyane bakibanda aho imodoka zihagarara umwanya muto, kubera ko hashobora kuba hari imyanda yahatawe n'abagenzi.

Bitewe n'uko umuhanda ukoreshwa n'abantu benshi batandukanye ibimenyetso byawo biba bigomba kuba bigaragarira buri umwe kandi bikagaragara nibura mu ntera ya kure kugira ngo yitegure igikorwa gikurikiraho nk'umuntu utwaye ikinyabiziga.

Hashingiwe ku buryo ibyapa biyobora abatwaye ibinyabiziga biba bikomeye kubyumva, usanga abakoresha ibyo binyabiziga bagirwa inama yo kuba bafite ubumenyi runaka, kuri ibyo byapa cyangwa se bafite ubumenyi bwihariye ku muhanda ndetse n'imikoreshereze yawo.